Isamake nziza cane ikiriho amagaragambya gayo， iraryamye ariko bayirobye. Ugiye kuyiteka ni ugufata utuzi dushushe ukabanza kuyoza，ubundi ukayikuraho amagaragambya，ubundi ukayirya imeze neza cane.

Aga mafi atanu kari ku isahani, ane ni manini, abiri ni matoya. Aga mafi karajyohaga cane, iyo ufite amavuta urayafata, ugashyira mu gasafuriya ukayoza neza, ukarambika mu gasafuriya ubundi ukayakaranga ukagajya gatagiyemo amazi.

Ibiti biri gushibuka bifite ibishami byinshi cyane ndetse n'ibindi biti bitandukanye bitewe ubonako bikiri bitoya, bizazamukana n'ibindi biri gushibuka harimo kimwe kimwe ubonako gikuze, ibindi byose ari ibishibu bishaka kuzazamukira rimwe.

Ahantu hameze neza cane umuntu ashobora kuza gufatira agafoto akifotoza; ibi abantu bamwe na bamwe barabikundaga cane, iyo bavuye gusenga kujya kuhifotoreza, kubera ko urabona ko hasa neza cane hafite amahumbezi.

Umurima uteyemo ibirayi ukikijwe n'ubutoki, ibiti, ibishyimbo, ibyatsi, n'indi . Ibirayi turabikunda cyane mu majyaruguru, kubera yuko n'ibyo biryo turya tukumva turahaze, kandi ni nibyo biryo twumva twaramenyereye kurya.

Ibirayi byiza cane bifite uruyange, bihinze mu murima munini ariko urimo ibikorokoro, bisigaje ukwezi cangwa ukwezi n'igice bikera. Ibi birarayi bitanga umusaruro mwiza cane.

Igihingwa c'icayi ni igihingwa ciza cane, duteka kandi kiduha amafaranga. Iyo hakonje ukanwa icayi uhita ushuha kandi ukagira ubuzima bwiza cane.

Amagi menshi cane ari kumwe n'inkoko yayo, ari ahantu munsi y'agati kameze neza cane. Ubona ko hakeye kandi hafite isuku iyi nkoko iterera.

Ibijumba by'umutuku biraryohaga cane, iyo ukivunnye uba usanga gifite amafufu mo imbereye asa n'umweru, twebwe abo mu majaruguru ibi bijumba turabikundaga cane kubihinga n'imigozi yabyo kubera ko bireraga cane cane.

Umubyeyi n'isuka ku rutugu, arimo aritegereza hirya no hino, akareba hakurya ukuntu hari ubusitani bwiza cane !Akareba n'imbere ye ukuntu hari ibigori bisa n'ibyenda kwera, kandi aho ahagaze naho harimo ibisheke bigeze hejuru cane, ku buryo byaba byenda kwera.

Igihaza ciza cane ubona ko bagihaye ifumbire rimeze neza, ndetse dusanga mubiribwa turyaga birimo imboga, hari nubwo tugitekaga tukigeretse ku bishimbo n'ibijumba.

Umuhinzi w'umudamu, wambaye isengeri, n'ijipo. Afite isuka, ari ku bagara umuceri. Ahagaze mu byondo byinshi cane, kandi yambaye ibirenge, ku buryo ari gukandagira akibira .Guhinga neza umuceri biba byiza yo uhinze wambaye bote, kuko bitumaga udusimba tutakwinjira.

Abaturage bashyiraga hamwe iyo bari gukora umuhanda kugirango ngo babashe kubona aho banyura mu buryo bwihuse kandi bwisanzuye kuri buri wese.

Ihene y'isekurume imeze neza cyane, ifite amabara meza, ifite isuku ihagije, ishinze umugara; ubona ko yariye neza kandi ko imeze neza.

Ubucuruzi bw'urusenda butanditse duto duke duke twa makeya n'ibitunguru bifunze bike bike bya makeya n'akatebe umucuruzi yicayeho, kugira ngo abashe gucuruza urusenda rwe ruke ruke.

Amasombe arundanyije ahantu ku mifuka n'amahema, basekura bagakoramo isombe ikaryoha cane. Abaturage turazikundaga cane kuko iyo uziriye uba wumva ukomeye kandi ufite imbaraga, nk'ababyeyi bari konsa barazikundaga cane kubera ko zituma babona amasereka, abana bakonka nta kibazo.

Igihingwa cy'ikigori bacyita mayizori gisa n'umuhondo kiraryoha cyane. Iyo ugiye kugiteka ucanira amazi ukakirambikamo ukagiteka gishya gisa n'umuhondo, n'iyo ukiriye kiba gisa n'umuhondo, n'iyo wakibetesha kiba gisa n'umuhondo. Iki ni igihingwa cyiza cyane.

Umusaruro w'ubunyobwa, ubunyobwa busaruririwe ku mabase. Uburyo ubunyobwa babusarura bagenda barandura, barandura hanyuma bakagenda bakuraho utubuto tuba twarafashe hasi mu butaka, ibyatsi bakagenda barabirambika hasi bisanzwe. Ubunyobwa buraryohaga cane, kandi bugatanga umusaruro mwiza cane.

Ibinyampeke byitwa ibishimbo ariko by'ubwoko butandukanye. Tugiraga mu majaruguru nyiramukara, gipesa, nyamweru, kinyobwa, ndetse na soya.

Umubyeyi uri kugosora ibishimbo byinshi cane ku ntara, ndetse ariguterera hejuru kugira ngo imyanda ize kuvamo, umwana ahetse nawe ivumbi ryamugiye mu mutwe ndetse na we ryamugiyeho uretse ko we yiteze igitambaro mu mutwe.

Ibishimbo byiza cane byitwa nyiramukara. Ibi bishyimbo biraryohaga cane bigiraga isosi isaga n'umukara. Iyo ubitetse ntabwo wirirwaga urateka inyanya kuko biba bisa n'umukara kandi bifashe bimeze neza cane.

Ingano nziza cane ziri mu mufuka umeze nk'umwenda. Izi ni ingano twebwe dukundaga cane kubera ko uzitekamo umutsima w'igikwanga ukagira imbaraga nyinshi cane ku buryo ushobora gukora kandi ukumva udashonje nta n'inzara ufite.

Ibigori byinshi cyane batondetse ku biti babimanika; umugabo ari kugenda abikura ku giti arabihereza umudamu; umudamu arabipakira mu mufuka kugira ngo baje kubihungura; ibi bigori biraryoha cyane nibyo bita iburide.

Ingurube nziza cane ibyibushe, ibifite uruhu rumeze neza, kandi ubona bigaragara ko ishobora kuba iri nko konsa .Iri ahantutu hameze neza cane kandi urabona neza ko iryamaga ahantu hameze neza kuko urabona neza ko nta bintu by'ishogororo ifite.

Inyamaswa nziza cyane zifite imbaraga, zifite gahunda yo gukina zikisanzura, zirimo zirakina amakamba nta giti kiri hafi ngo kirazitega cyangwa icyobo ngo ziragwamo. Ziri ahantu hisanzuye cyane ndetse hari ibiti basanzuye bakoreye isanzure, kugira ngo byongere gushibuka bimeze neza cyane.

Iki kinyoni mu mumajaruguru dukunda gucita cadiniwiti, gikunda kurya amabyi. Iki kinyoni kigira umwanda mwinshi cyane.

Akanyoni k'umukara k'umunwa muremure gahagaze mu ndabo nziza cyane, zimwe twatakaga iwacu igihe twabaga dufite ibirori ku meza.

Iyi nyoni ihagaze ahantu heza cane, mu biti twebwe dukundaga gutera hejuru y'urugo, ihagaze neza cane ifite amabara yijimye meza. Ibi biti ihagazemo, twebwe dukundaga kubitera hejuru y'inzu kugira ngo bize gukora uruzitiro.

Inuma nziza cane, iri ahantu heza cane, humutse, igaragara nk'aho yizihiwe , kuko ifite uruhu rwiza cane kandi rumeze neza.

Uruyongoyongo rwiza cane rurerure , rufite umuzosi muremure n'amaguru maremare. Rwagurutse ruza gushakisha ibyo kurya hakurya y'amazi. Aho rwasanze ahantu hari ibyatsi byinshi cane ndetse n'imyaka imaze kuzamuka.